Abantu batandukanye bitabiriye inama, mu by'ukuri n'inama iri kubera ahantu hatandukanye, gusa biragaragara ko hari izuba ryinshi, reka twizere ko rino zuba ritari buze kukubangamira.

Aha ni ababyeyi ndetse n'abari bari muri gahunda zigiye zitandukanye bigaragara ko bari gushishikariza abakira abangavukwirinda guterwa inda zitateganyijwe.

Uyu ni umugore uhagaze imbere y'abandi bantu bagenzi be, biragaragara ko bari mu nama yiga ku bibazo bitandukanye, imbere ye hakaba hicaye umugabo, umugore, umusore akaba hari n'undi muntu w'umunyamahanga.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'inama aho abayobozi benshi bahurira barimo baragira ibyo bigaho mu by'ukuri bigaragara ko baba barimo baragenda baganira ku bibazo byinshi bikwiriye gukemuka gusa bizanakemuka.

Uyunguyu ni umugore urimo uravuga ijambo ku byerekeranye n'ubukungu bw'igihugu ndetse no gushyigikira igihugu mu' iterambere rikaba bigomba kwemezwa mu gihe kidatinze.

Aba ngaba ni abantu benshi batandukanye, aho bicaye mu nama bari kwiga ku bibazo bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndetse bikaba binagaragara ko babanje gusenga kugira ngo bize kugenda neza.

Uyu mugabo ari kwigisha abanyeshuri, ibintu bigaragara nkaho bifite umumaro, bikazagirira akamaro igihugu cyacu, ari kubigisha ubona afite akanyamuneza ku maso kandi na bo barishimye.

Aha ngaha abaturage bagiye mu nama ibahuza n'Ubuyobozi bubashinzwe. Bakaba barimo baravuga ibibazo byerekeranye n'abaturage batuye muri uyu Murenge.

Aba ngaba ni abantu bicaye mu nama, bakaba barimo baravuga ku bibazo bigiye bitandukanye aho bari kwiga ku mibereho myiza y'abaturage, bakaba bazakora ibintu byiza cyane.

Aba ngaba ni abantu bagiye batandukanye, aho barimo barakora inama, barimo barayikora bishimye, mu by'ukuri barasa neza cyane kandi ibyo bakora bifite agaciro kanini cyane.

Abangaba ni urubyiruko ruteraniye mu nama, mu nzu mberabyombi, bakaba bari kuvuga ku bijyanye no kubaka igihugu cyababyaye, bari kwiga ku bindi byose bitandukanye.

Aba ngaba n'abagabo bicaye mu nama, bakaba barimo bariga ku bibazo bigiye bitandukanye byo gufasha abaturage gukemura ibibazo byabo, bidasabye ko bajya mu buyobozi bukuru.

Nkuko mubibona aba ngaba ni ababyeyi beza b'abanyarwandakazi. Ni ababyeyi bagiye mu nama, aho bashobora kuba bari kwiga ku bibazo bijyanye n'iterambere ry'umugore ndetse n'umukobwa muri rusange, barasa neza cyane.

Abaturage bari mu nama zitandukanye, aho bayobowe n'umuyobozi wabo, afite indangururamajwi, ari kubafasha kumva ibyo bakeneye kumenya, kandi baraza gusobanukirwa neza.

Abangaba ni abaturage baje mu nama, bakaba barimo baraganira n'umuyobozi wabo ababwira ku ngingo nyinshi cyane zitandukanye. Bakaba mu by'ukuri bamuteze amatwi kubera ko afite indangururamajwi.

Abangaba ni abagabo batandukanye, bari mu nama ijyanye no guteza imbere ubukungu ndetse n'ishoramari mu karere ka Nyagatare. Aho bafite abashyitsi batandukanye, bazabafasha muri iryo shoramari.

Aba ngaba ni abayobozi bagiye batandukanye, aho bagiye mu nama, bakaba barimo bariga ku bibazo bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu muri rusange. Bakaba biteguye kuza kubikemura.

Aha ngaha turabona ko ari umugore urimo uratanga igitekerezo yifashishije indangururamajwi. aho arimo aravuga ku bijyanye n'iterambere ry'umugore mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Itsinda ry'abantu benshi bahuriye mu nama bicayemo ari abagabo benshi batandukanye bambaye mu buryo butandukanye, abambaye amakote, amashati maremare n'amashati y'amaboko magufiya.

Aha ngaha hari abaturage batandukanye, aho bicaye mu nama, bari kumva ibiganiro bigiye bitandukanye, ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bakaba barimo baragenda bareba ibibazo bikikije igihugu.

Aha ngaha ni aho abantu bahurira bagiye gufana umupira w'amaguru, hazwi nka i Nyamirambo, bahahurira ari benshi amakipe yakinnye umupira w'amaguru. Birashimishije!

Ni ahantu abantu bateranyirijwe ari benshi baje kureba umupira w'amaguru. Nkuko bigaragara ntabwo bishimye kubera ko amakipe yabo ashobora kuba yatsinzwe byinshi cyane.

Aba ngaba ni abagabo mu bigaragara bari mu nama, ubona ko ari abagabo basobanutse kandi bazi neza ibyo bakora, buri wese ndabona agiye afite icupa ry'amazi mu buryo bwo kugira ubuzima bwiza.

Abangaba ni abantu abayobozi batandukanye aho bahuriye mu nama runaka bakaba biyemeje kuvuga ku bibazo bitandukanye kugira ngo igihugu cyacu kigire ubuzima bwiza.

Aba ngaba ni abantu batandukanye, barimo bariga ku bibazo bitandukanye mu nama, aho buri wese ari kwandika ibibazo agomba kuza gukemurira abaturage be ashinzwe, kandi bigakemuka mu mahoro.

Aba ngaba ni abana b'abanyeshuri, aho barimo barigishwa ibintu bigiye bitandukanye, bakaba bari ahantu mu nzu mberabyombi, aho imbere yabo hahagaze umugabo ,uri kugenda ababwira ibyo bagomba kwirinda.

Aha ngaha uko bigaragara abantu benshi batandukanye bari mu nama, umwe yafashe indangururamajwi ari kubabwira bimwe mu bintu bitandukanye, aho hirya hahagaze undi mubyeyi.

Uyu nguyu ni umubyeyi uhagaze imbere y'imbaga y'abantu urimo arabaganiriza, mu kinyarwanda cyiza gitomoye bakaba barimo baravuga ku ngingo nyinshi zubaka igihugu cy'u Rwanda.

Aba ngaba uburyo bigaragara bicaye mu nama barimo barajya inama batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ku ngingo zatanzwe muri iyi nama. Uko bigaragara abenshi baracyafite amahirwe yo kubaho.

Uyu nguyu ni umubyeyi bigaragara ko ari nk'umuyobozi w'ikigo runaka, arimo arayobora inama iri kubera mu cyumba mbera byombi ariko kumwe n'urubyiruko ari kurugira inama.

Abangaba ni abana babakobwa bagiye gusenga ndetse bamwe bakaba bari bagiye no ku ishuri mu bigaragara biga mu kigo cy'abihaye Imana hano mu mujyi wa Kigali.

Aba ngaba ni abaturage batandukanye baje kwiga mu nama z'ibibazo bigiye bitandukanye aho bafite n'abashyitsi benshi babasuye bari buze kubafasha kwiga kuri ibyo bibazo.

Aba ngaba, ni abantu benshi cyane batandukanye, barimo bariga ku bibazo bitandukanye by'abaturage, bakaba biyemeje kubikemura, mu buryo bwihutirwa, kandi bikaza kurangira.

Uru rupapuro rwerekana, rubaza nyiri umutungo utimukanwa. Harimo haravugwa ko umuntu wanditswe nka nyiri umutungo cyangwa ufite ubundi burenganzira ku mutungo, ni ufatwa nka nyiri umutungo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda.

Ubu ngubu ni uburyo bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga, bikaba bikorwa hiyongereyeho n'imisoro igiye itandukanye mu buryo bwo kubaka igihugu.

Iri ngiri ni itangazo gusa rigaragaza ko rigizwe n'ingingo nyinshi cyane zitandukanye, ryatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bikaba bireba abakora ibijyanye n'ubucuruzi.

Iyi ngiyi ni ingagi, ni ishusho y'ingagi ziherereye mu birunga mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, izi ngizi zaje mu buryo bwo gusura u Rwanda bikozwe n'abanyamahanga, bakaza bagasura ingagi zacu bakadusigira amafaranga.

Aba ngaba ni abaturage bicaye hanze y'inzu, mu buryo bugaragara ni ahantu abantu bakorera utuntu dutandukanye bifashishije murandasi, kubera ko hano hafi bayitangira ubuntu bagakora ibyo bashaka byose.

Ahangaha ikingiki ni ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe gufasha abantu kwihereza ubufasha bashaka, bikaba bigaragara ko kino kigo cyatanze uburenganzira kuri buri buri wese ko yakwiyisabira uburenganzira bwe.

Ahangaha ni ho ikoranabuhanga ryerekana uburyo umuntu ashobora kubona amahirwe yo gukora mu bihugu bitandukanye, bizengurutse Afurika, hifashishijwe ikoranabuhanga. Rikaba rikorerwa i kigali.

Uyu ni umunara utanga itumanaho mu bikoresho by'ikoranabuhanga ukaba ufite amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Uyu nguyu ni umunara muremure bigaragara ko utanga itumanaho. Iri tumanaho rifasha benshi mu kugira ngo biborohere guhuza imirongo hakoreshejwe inziramigozi cyangwa se n'irindi koranabuhanga risanzwe.

Aha mu by'ukuri biragaragara yuko ari ikigo gikora ibijyanye n'ubucuruzi bukoreshwa ku mbuga nkoranyambaga, bigaragara ko bakore ibintu byinshi bitandukanye.

Nk'uko mubibona iki ngiki ni icyapa, ni icyapa cy'ikigo cy'Igihugu gishinzwe Inguzanyo mu bigo bitandukanye cyane cyane mu banyeshuri biga muri za kaminuza ndetse n'ibigo byikorera ku giti cyabyo.

Uyu ni umugabo wambaye amarinete ku bigaragara arimo arakoresha imbuga nkoranyambaga, akaba ari kunywa icyayi yaguze aho yagiye gukorera akazi ke.

Nk'uko bigaragara uru nguru ni urubuga rukorerwaho ibyo twita irembo, mu kwishakira ibyangombwa bitandukanye, mu byo batangije, byitwa byikorere bitagusabye kujya ku babikorera ku mafaranga hanze.

Iyi foto iragaragaza kwamamaza gukoresha ibintu byujuje ubuziranenge, iki cyapa kiragaragara mu mabara y'icyatsi, umukara, ndetse n'umweru n'ubururu.

Uyu nguyu ni umunara, nk'uko mubibona ni umunara muremure ushyirwaho ibyuma by'ikoranabuhanga, mu buryo bwo kugira ngo buri wese abashe kubikoresha mu buryo bwisanzuye kandi nta kibazo na kimwe agize mu ihuzanzira.

Iyi ngiyi ni ikigo bita Irembo. Iki ngiki cyifashishwa mu gusaba ubufasha butandukanye mu bikorwa bitandukanye by'igihugu. Aho bakwereka ko ugomba kubyikorera bitagusabye kujya kureba abashinzwe kubikora hirya no hino mu mihanda.

Uyunguyu ni umunara mwiza cyane utanga itumanaho ku bantu bakoresha ibikoresho by'inziramugozi ukaba ari umunara uhagaze ahantu heza cyane ukaba ari mwiza cyane.

Aha ngaha, ni urubuga , ibintu bitandukanye kuri murandasi, aho ushobora kubikorera buri kintu cyose ushaka, mu rwego rwo gukemura ibibazo wifitiye, barwita irembo.

Iki ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kikaba gishishikariza abataratangiye imisoro ku gihe; kuyitanga batarafatwa n'iminsi kugira ngo bacibwe amande.

Uyunguyu ni umunara ugizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umutuku ukaba wifashishwa mu gukora ibijyanye n'itumanaho, aho umuntu wese awifashisha kugira ngo arebe ko yagera ku byo yifuza byose.

Aba ngaba ni abantu barimo barakora umunara mu buryo bwo kugira ngo abantu bajye babona itumanaho n'uburyo bwo gukoresha inziramugozi zabo neza mu buryo bunogeye batagowe cyane.

Uyunguyu n'umunara ukoreshwa mu gutanga ikoranabuhanga kuri za murandasi ndetse no ku matelefone agendanwa mu ntoki, ufite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru.

Iki ngiki ni ikigo gitandukanye gifasha gukora ibikorwa bitandukanye mu bikorwa remezo ,harimo gutera ibiti ndetse no gukora ubusitani bwiza cyangwa se ukanafasha n'abantu mu kubaka amazu mu buryo butandukanye.

Umunara muremure cyane mwiza, uteretse ahantu heza cyane, mu by'ukuri utanga itumanaho rishimishije abantu bakaganira, bagahuza urugwiro.

Aha ni mu mujyi wa kigali rwagati ahazwi nko mu mwanya wahariwe kugenderwamo n'abanyamaguru bisanzura bakoresha imbuga nkoranyambaga batari guhura n'akavuyo k'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Aha ngaha bari kwamamaza ibijyanye no gutsindira impano, mu gihe uguze ibicuruzwa. Ushobora gutsindira impano y'amafaranga angana na miliyoni y'amanyarwanda.

Ikingiki ni icyapa cyerekana imiyoborere myiza y'abaturage aho bavuga ko umuturage agomba kuba ari ku isonga bigaragara ko agomba guhora yitaweho kurusha ibindi bintu ibyo aribyo byose.

Nicaye mu cyumba mberabyombi aho buri wese yicaye imbere ya mudasobwa bari kugenda bakoresha itumanaho mu buryo butandukanye bagenda baniyungura ubumenyi mu bintu byinshi bitandukanye bizabagirira umumaro.

Ahangaha ni abantu benshi batandukanye bari mu mahugurwa yerekana uburyo bashobora gukoresha mudasobwa, ndetse n'imbuga nkoranyambaga nka za murandasi hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga na mudasobwa.

Iyingiyi ni inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa kigali aho bigaragara ko mo imbere hateyemo igiti gishinzwe guhuza insinga zijyana umuriro mu ngo z'abaturage zigiye zitandukanye.

Uyu nguyu ni umunara wubatse inyuma y'igipangu, biragaragara ko ari umunara utwara amashanyarazi, umuriro w'amashanyarazi. Bikagaragara ko harimo itara rirerire cyane, ryatsa urumuri rukagera no mu rugo.

Inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali uko bigaragara iteye amarangi meza ikaba ifite ubusitani busa neza cyane aho ishobora kuba ihenze cyane.

Kandi mu muhanda aho ntuhoratwereka ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi bakaba batwereka insinga zijyana n' umuriro ziteye ku biti biri hano ku muhandaba biwerekeza mu mazu y'abaturage.

Abangaba ni abantu batwaye ibinyamitende bari mu muhanda, bamwe barava kwiga abandi barava mu kazi, bari gutaha berekeza mu ngo zabo aho batuye bari kugenda bitonze cyane.

Ni inzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, ku bigaragara hafi yayo hari igiti kirekire gicometseho insinga z'umuriro w'amashanyarazi zitanga amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Aha ngaha uko bigaragara hari igipangu cy'umuntu, gusa hirya yaho hari igiti kirekire gishinzeho umuriro w'amashanyarazi ugenda ujya mu baturage mu bice bitandukanye.

Iyi giyi ni nzu ariko ikaba ikirimo irubakwa, uko bigaragara irabura guterwa umucanga, igaterwa n'agasima inyuma muri make ntabwo irakorerwa amasuku neza mu buryo bugaragara.

Aha ngaha ni mu muhanda mwiza cyane, aho bigaragara ko hashinze n'ibyuma, bazirikaho insinga z'amashanyarazi, mu buryo bwo kuyasakaza hirya no hino mu baturage. Ibi bikaba ari byiza.

Aba bagabo bari kugenda berekeza mu bice bitandukanye nyuma yo kwambuka umuhanda mukuru bakajya mu mihanda igaragara nk'aho ijya aho batuye, mu bigaragara birasa naho imvura ishaka kugwa.

Iki ngiki ni igipangu ariko mu bigaragara hirya yaho hari umunara muremure utwara amashanyarazi, werekeza mu bice bitandukanye by'uturere cyangwa se no mu mirenge igize ako gace.

Aha ngaha nkuko mubibona hari umunara muremure ushinzwe gutwara insinga z'amashanyarazi mu buryo bwo kugeza umuriro w'amashanyarazi mu baturage kandi mu bikorwa mu buryo bworoshye cyane rwose.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali, aho bigaragara ko hari icyapa cyereka abantu gukata mu muhanda w'ibumoso cyangwa se kikaba kibabuza kwerekeza mu muhanda w'ibumoso bitewe n'amategeko y'icyapa ari agenga icyo cyapa.

Uyu nguyu ni umunara utanga umuriro w'amashanyarazi, ukaba uhagaze mu muhanda, ukaba unaziritseho insinga nyinshi, zijyana umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Uko bigaragara ahangaha ni ahantu mu kigo runaka igipangu kinini cyane kandi kiza giherereye hano mu mujyi wa Kigali, iki gipangu kiragaragara neza cyane.

Uyu ni umugozi wa mudasobwa, uyu mugozi wifashishwa mu kohereza umuriro muri mudasobwa kugirango ikore neza itasobwe habe na gato, uyu mugozi uri mu ibara ry'umukara.

Ahangaha uyunguyu ni umuganga, umuganga mu by'ukuri arimo arasuzuma umurwayi we ngo arebe ko indwara ye ikomeye cyane cyangwa se arewe niba indwara ye yayo yohereza mu bindi bitaro bakaba ariho bashobora kuba bamufashiriza.

Aha ngaha ni ahantu ku bitaro, ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, bikaba ari ibitaro bikuru aho abantu bifuriza mu buryo bwa rusange kandi bagahabwa ubufasha nk'uko bikwiriye.

Iki ni inzu iherereye mu kigo kimwe runaka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bikaba bigaragara ko iyi nzu ari nziza cyane kandi ikozwe mu buryo buteye neza.

Aha ngaha ni mu kigo, aho abantu bagenda bahakorera ibintu bitandukanye. Bikaba bivuze ko buri wese agomba kugira uburyo agendamo neza kandi mu buryo bushimishije.

Iyo ngiyi mu by'ukuri hirirwamo n'abantu benshi, bigaragara ko ari inzu nziza cyane y'ubucuruzi, aho abantu bashobora kuhagera bagiye kuhakorera ibikorwa byabo bitandukanye cyangwa se bakahagera, bagiye gushaka ibikoresho bya buri munsi.

Aha ngaha ni mu biro by'Akarere runaka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu byukuri hano hantu urabona ko hubatse neza cyane, amarangi meza ndetse n'amatafari asa neza cyane.

Aha ngaha ni mu kigo nderabuzima kwa muganga, aho bigaragara ko bavura abantu benshi batandukanye buri munsi bakaba barimo baratanga ubufasha ku barwayi benshi cyane.

Aha ngaha nk'uko muhareba biragaragara ko ari kwa muganga abaganga n'ibabiri barimo baravura umurwayi umwe, reka twizere ko ibyo bari gukora biri buze kugirira uyu murwayi wacu agakira.

Iyo ngiyi ni inzu ariko ndabona ari inzu ebyiri biragaragara ko ari inzu zimeze nkaho basenyera zikaba zigizwe n'insengero ebyiri rumwe rushaje urundi rukaba ari urwa vuba aha.

Aha ngaha ni ahantu mu kigo runaka, aho bigaragara ko haba harimu harinjiramo imodoka zitandukanye, aho abantu bashobora kuba bazishyira ari benshi. Bikaba bigaragara ko hashobora kuba hatangirwa ubufasha bw'ubuvuzi.

Aba ngaba ni abagororwa bakoze icyaha bagiye kuburanishirizwa mu ruhame, bari kuburana n'abaturage bahari aho abakoreye ibyaha baregwa n'ubushinjacyaha.

Uru nguru ni urupapuro rumwe mu mpapuro nyinshi cyane zanditswe mu gitabo, rwerekana amategeko n'amabwiriza igihugu cy'u Rwanda kigenderaho. Hakaba hagiye hagizwe n'ingingo nyinshi cyane zigiye zitandukanye mu buryo butandukanye.

Ahangaha uko bigaragara mu rukiko aho abantu baba baje kuburana bamwe bashinjwa ibyaha abandi babishinjurwa, biragaragara ko umwe muri bo arimo ariregura.

Aba ngaba ni abagabo bari mu rukiko, umwe arimo araburana. Mu by'ukuri uko bigaragara yicaranye n'abarimo baragenda bamwunganira mu mategeko kugira ngo ibihano bizagabanuke.

Aba ngaba ni abantu bari mu cyumba cy'iburanishirizwamo, aho bari kuburanishwa abantu batandukanye, mu byiciro byo hasi mbere y'uko bajyanwa mu nkiko zo hejuru.

Uru nguru ni urupapuro mu byukuri rwerekana bijyanye n'amategeko, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibizwi nk'igazeti. Aha ngaha bigufasha kumenya, uburyo umuntu agomba kwitwara hakurikijwe amategeko.

Urunguru ni urupapuro rumwe mu rwanditswe mu gitabo kijyanye n'amategeko y'igazeti y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikaba yerekana aho amategeko n'amabwiriza tugomba kugenderaho nk'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda.

Uru nguru ni urupapuro rwerekana amategeko ngenga ya repubulika y'u Rwanda. Bigaragara y'uko ari amategeko abantu bagomba kubahiriza bakanayakurikiza mu buryo bwimbitse, bikaba ategetswe buri wese kuyakurikiza.

Aba ngaba ni abaturage bari mu nama itandukanye, aho bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye, kandi bizeye ko bigomba kuza gukemuka bigakemuka mu mahoro nta n'umwe utanyuzwe.

Ahangaha ni mu rukiko rwisumbuye aho barimo baraburanisha umugabo uri gushinjwa ibyaha bitandukanye, akaba mu by'ukuri ategereje kwiregura kugira ngo bumve niba afite ishingiro ryo kuba yarekurwa.

Iriringiri ni igororero rya musanze mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda ahangaha hafungirwa abantu batandukanye bakoze ibyaha bakagororwa mu gihe runaka bamara kugororwa bagasubira mu miryango.

Urunguru ni urupapuro rwo mu igazeti ya leta aho berekanaga amategeko yagiye ahinduka bikaba byemezwa n'umukuru w'igihugu nk'uko amazina ye yanditse muri uru rupapuro.

Uyu nguyu ni umupapa, ni umugabo ukora ibijyanye no kuburanisha, akaba ari umucamanza, yambaye imyenda imwemerera gukora akazi, mu by'ukuri yambaye neza kandi arasa neza.

Aha ngaha n'icyapa cyerekana ubutabera bwunga abaturage, aho buzwi nk'inkiko gacaca bwamenyerewe mu kunga abari barakoze ibyaha bigiye bitandukanye, bakiyunga nabo babikoreye.

Uko bigaragara uyu mugabo ari mu rukiko, ategereje ko baburanisha kandi akaza gukoresha ingingo zitandukanye, reka turebe abacamanza icyo baribuze kumuvugaho.

Nk'uko mubibona, aba ngaba ni abadamu, bambaye imyenda myiza cyane, nk'uko mubibona barimo baravuga, amajambo agiye atandukanye. Aho bashobora kuba barimo barageza, amagambo meza, ku bantu babakurikiye.

Aba ngaba ni abagororwa bafungiye mu igororero rimwe mu magororero yo mu Rwanda, ikigaragara icyo bagiye mu rukiko kuburana ibyaha baregwa, bakaba bagaragara bambaye n'udupfukamunwa.

Uburyo bigaragaramo, bano ni abantu bari mu rukiko bari kumva urubanza, bari kumva urubanza rw'umuntu uri kuregwa ibirego bitandukanye, reka twizere ko ruzarangira mu mahororo.

Aha ngaha ni mu ngoro y'urukiko, aho bari kuburanisha abantu, abandi bakaba barimo barabahugura mu gukora imirimo itandukanye, hakaba harimo abagore n'abagabo.

uyu mugabo uko bigaragara ni mugabo ufite ububasha bwo guca urubanza aragaragara nkaho uri umucamanza mwiza ubutabera kandi ukorera mu kuri niko bigaragara.

Uyu nguyu ni umugabo ushinzwe ibijyanye no guca imanza. Akaba yambaye imyenda myiza cyane, ibimwemerera. Kuko arasa neza cyane.

Uyu ni umugabo mu byukuri agaragara nk'aho ari umuyobozi cyangwa se akaba afite imirimo akora myiza cyane, bigaragara ko yambaye umupira w'umweru akaba yifubitse ikote risa n'irindi bara.

Abangaba ni abagororwa bari mu cyumba cy'iburanishwa, bakaba bari gucyekwaho ibyaha bitandukanye bakaba barimo baraburanishirizwa kuri murandasi hikoreshejwe hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Nk'uko mubibona bano ni abayobozi bagiye batandukanye, bahuriye mu nama yiga ku bintu bigiye bitandukanye, aho bakurikiye umwe muri bo uri kugira icyo ababwira, reka twizere ko iyi nama izavamo ibintu byiza cyane.

Umugore w'umuyobozi uhagaze imbere arimo aravuga ijambo, uko bigaragara ashobora kuba arimo aramurikira abaturage be ibyo bagezeho ku munsi mpuzamahanga wahariwe, abantu ntari kureba neza ntabwo bigaragara neza cyane.

Iyi ngiyi ni imodoka mu byukuri ni ndende, iyi modoka itanga serivisi zitandukanye ku bakeneye ibintu bitandukanye, abarwayi ,abakeneye ibicuruzwa kandi ni nziza cyane kuburyo igaragara.

Ahangaha bigaragara ko abashinzwe umutekano wo mu muhanda, barimo barayobora ibinyabiziga ahantu bigomba kwerekeza kuko bigaragara ko harimwo akavuyo ahangaha ni mu mujyi wa Kigali.

Iki ngiki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro. Mu gihe habayeho inkongi y'umuriro baracyifashisha bakazimya umuriro mu buryo bw'ikoranabuhanga, ni cyiza cyane.

Iki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya umuriro, iyo habayeho ibyago byo guterwa n'inkongi y'umuriro, kiba gifite ibintu bimeze nk'amafu mo imbere cyangwa se bagashyiramo amazi kikazimya.

Uyu nguyu ni umupolisi ari kumwe n'umusore waje gukora ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga ku rwego rwa a, uko bigaragara ikizamini yari yagitsinze.

Iki ngiki ni igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, mu imbere haba harimo ibintu bimeze nk'ifu cyangwa se kikaba gifitemo amazi inkongi y'umuriro yaza bakajya bakerekeza mu muriro ukazima.

Uyu ni umubyeyi yicaye mu biro uko bigaragara ari gutega amatwi abaturage baje bamugana kugira ngo abahe ibyo bamutegerejeho.

Aha ngaha nk'uko mubibona uyu muyobozi ni mukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Kagame; akaba ari kuvuga ijambo, ari kugeza ku baturage bitabiriye inama. Ari kukabwira ijambo ryubaka igihugu kandi ryiza cyane.

Ahangaha ni mu nama zitandukanye, aho bigaragara ko umukuru w'igihugu ari kumwe n'umufasha we ndetse n'abajyanama bari kwiga ku bibazo bigiye bitandukanye by'abaturage, bigaragara ko bigomba gukemuka.

Aha ngaha ni abaturage bagiye kureba umukuru w'igihugu uri kwiyamamariza kongera gutorwa kugira ngo, aba ari we wongera kubayobora mu kindi cyiciro gikurikiyeho kingana n'imyaka itanu.

Wa muntu we ko mbona uvuye gutora, ku gikumwe cyawe hariho ikimenyetso kigaragaza ko watoye, waba watoye neza? Witoreye umuyobozi uzakuyobora mu buryo bifuza? Cyangwa watoye nabi?

Ikingiki ni ikirangantego cy'ishyaka, iringiri ni ishyaka rikorera mu gihugu imbere ryemewe rigaragaza ko riharanira ubutabera n'ubwisungane ndetse n'amajyambere.

Uyunguyu ni umugabo witwa Kagame, mu by'ukuri ni umuntu w'umunyabigwi akaba ari intwari y'abanyarwanda, uba yabohoye igihugu cyari kigeze ahantu habi akagisubiza amahoro ndetse n'umutekano bisesuye.

Nkuko mubibona aha ngaha rero ni icyapa mubona kiriho umukuru wacu w'igihugu witwa Kagame, aha ngaha bari bari mu gihe cyo kwamamaza abantu bashaka kuyobora igihugu, nawe yari ari kwiyamamaza bamanika ifoto ye.

Uyu ni umugabo wambaye amarinette, akaba yambaye n'ikote riyiza cyane n'ishati y'umweru, uko bigaragara ni umuyobozi mu kigo kimwe mu gihugu runaka...

Uyu nguyu ni umugabo uyoboye Igihugu cy'u Rwanda yitwa Kagame. Akaba ari umuyobozi mwiza cyane wumva ibibazo by'abaturage, ndetse akabikemura bidasabye ibintu byinshi.

Uyu nguyu nk'uko mubibona ni umuyobozi. Umuyobozi yicaye mu nama arimo kugeza ijambo ku bamukurikiye. Mu by'ukuri bari kuganira ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu ndetse n'iterambere ryacyo.

Abangaba nk'uko bigaragara barimo barakora amatora, barimo baritorera abayobozi bagomba kuzakora igice cy'imyaka iri imbere ikurikiyeho kandi bagomba gutora neza umuyobozi uzabayobora mu buryo bwiza.

Aha ngaha barimo barerekana ibijyanye n'imikorere, ndetse n'uburyo amafaranga yinjiramo, kandi biturutse mu bigo bigiye bitandukanye, no mu mikorere igiye itandukanye, barabyerekana nkaho biri ku murongo kabisa.

Iki cyapa kirerekana ko abantu bagiye gutora, aho bashishikarizwa kwitabira amatora bagatora abayobozi babona bazabagirira akamaro mu minsi iri imbere, dutore kandi dutore neza.

Iyi ng'iyi ni imodoka ndende zizwi gutwara abantu benshi cyane n'ibintu mu mujyi wa Kigali muri buryo kuva mu gace kamwe bajya mu kandi, cyangwa se mu buryo bwo kuva mu kazi bataha cyangwa baza mu kazi bava mu rugo.

Iyi ngiyi ni imodoka ndende itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali, bava muri Nyabugugo bajya mu bindi bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali ,cyangwa se bava muri ibyo bice batuyemo baza muri gare ya Nyabugogo.

Mu bigaragara aha ngaha ni mu muhanda, ni mu muhanda ariko ni hafi y'ahantu barimo barakorera ibikorwa byo kubaka. Hari imodoka ndende, ifite amabara y'umutuku, itwaye ibikoresho.

Iyi ngiyi ni imodoka nziza cyane iri mu mabara y'umweru, biragaragara ko itwarira abantu hamwe batari benshi cyane, batarenzeze abantu barindwi, itwara abantu ibakura mu bice bimwe ibageza mu bindi, uyitwaye bakamwishyura.

Mu mujyi wa Kigali aho hano ari mu muhanda ahazwi nko ku gisozi, imodoka iri kuzamuka izamuka mu by'ukuri ahantu haterera cyane ariko biragaragara ko iribuze kuhasoza amahoro mu izina ry'imana.

Iyingiyi n'imodoka ndende cyane itwaye imizigo, aho bigaragara ko irimo irabisikana n'indi modoka ntoya y'umutuku, hakaba hari n'umuyonzi utwaye ikinyamitende, akaba afiteho umuntu atwaye.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo umuntu utwaye undi ku kinyabiziga, gusa mu bigaragara byo bari kugenda batihuta cyane, kubera ko kugenda wihuta biteza impanuka mu muhanda.

Izi ngizi ni imodoka ziparitse, aho zigomba kuba ziparitse, bigaragara ni imodoka zitwarira abagenzi hamwe, bagiye mu bice bitandukanye by'igihugu, zikaba zitwara abantu barenga mirongo itatu.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali uko bigaragara, abantu bari kugendamo ari benshi, abatwaye amapikipiki, n'abatwaye imodoka ndende cyane zipakiye imizigo, bikaba bigaragara ko itwaye ibintu biremereye cyane.

Nk'uko bigaragara aha ngana ni ahantu abantu bategera imodoka barimo barekeza mu bice bigiye bitandukanye, aho baba barimo barava mu Nyabugogo berekeza mu bindi bice bigize intara z'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Uyu nguyu ni umuhanda wo mu mujyi wa Kigali, ahazwi nko ku Kimihurura, aho ibinyabiziga byinshi bitandukanye biba birimo birerekeza mu mujyi, ibindi bijya i Nyabugogo kandi birihuta cyane.

Iyi ni imodoka y'ikamyo uko bigaragara itwaye ibikoresho by'ubwubatsi bigaragara nk'aho ari umusenyi, cyangwa se utubuye dutoya twifashishwa mu gihe barimo barakora umuhanda.

Iyi ngiyi ni imodoka mu by'ukuri itwara imizigo, uko bigaragara iraparitse mu mujyi wa Kigali aho bita mu nyabugogo ahazwi nko ku myaka, bigaragarako itegereje ko bayipakira ikajyana nk'ibishyimbo cyangwa ibigori mu...

Uyu nguyu ni umuhanda, uherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko ku Kimihurura nk'uko bigaragara abantu batwaye ibinyabiziga, bari kwerekeza mu bice bya Nyabugogo cg se bakaba bari kwerekeza mu bice byo mu mujyi.

Nkuko bigaragara izi ngizi ni imodoka zipakira imizigo, zitwara ibintu bigiye bitandukanye, ibyo kurya, ndetse n'ibindi bintu byose, bishobora kuba byahekwa mu modoka ndende, zino bita imodoka zitwara imizigo.

Ni mu mujyi wa Kigali aho abamotari batwara amapikipiki baba baparitse bategereje abagenzi batwara, ahanga urabonako baparitse ari benshi cyane kandi hari kuzamuka imodoka y'umweru nziza.

Nkuko mubibona izi ngizi ni imodoka zirimo ziragenda mu muhanda, aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Nyabugogo cyangwa se umuhanda muremure werekeza mu karere ka Kicukiro ndetse na Gasabo.

Iyi ngiyi ni imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, ni imodoka ndende cyane itwara abantu bari hejuru y'abantu mirongo itatu, ikaba ishobora kubavana mu gice kimwe ibajyana mu kindi gice.

Wa mugabo we iyo ngorofani ibyo bintu utwayemo ni ibiki? Gusa ndabona wagira ngo harimo indabyo zo gutera ku muhanda cyangwa se mu busitani bwo mu kigo ukorera.

Aha ngaha ni m umujyi wa Kigali aho imodoka zihanyura ziri kuzamuka ziva muwa Nyabugogo zerekeza mu mujyi wa Kacyiru biri kugenda ari nyinshi cyane kandi n'abatwara amapikipiki barimo.

Ni mu mujyi wa kigali aho abantu batwara amapikipiki baparitse mu muhanda ari benshi, ahazwi nko kwa rubangura aho imodoka ziparika zigakuramo abagenzi bakajya mu mirimo itandukanye mu mujyi wa Kigali.

Iyi ngiyi ni imodoka itwara abantu muri rusange, gusa ntabwo ifite ubushobozi bwo gutwara abantu benshi, ariko ikora mu buryo bwo gucuruza abantu bamwe bava mu myanya iba itandukanye bajya mu bindi bice.

Ahangaha nk'uko bigaragara ni mu mujyi wa Kigali, ahantu bita mu mujyi wa Kigali, ahazwi nk'aho hagenda abantu bagira n'amaguru, nta kinyabiziga kihatambuka.

Mu mujyi wa kigali ahazwi nk'aho abantu bakunda kuhagenda n'amaguru hatajya hanyura ikinyabiziga n'iki na kimwe usibye ibinyamitende na byo bidatwara ibintu nini n'abantu.

Aha ngaha, ni mu mujyi wa Kigali, aho abantu bagenda bareba ubugeni bugiye butandukanye, bwakozwe n'abanyarwandakazi. Bikaba bigaragara ko busa neza cyane nta kindi kiguzi.

Aha ngaha ni mu kigo cya polisi giherereye mu karere ka Kicukiro ahazwi nko mu busanza hangaha hifashishwa barimo barakora ibizamini byo gushaka inshya zo gutwara ibinyabiziga rw'aburundu.

Ikingiki ni icyapa cyerekana ahantu ngorakorera imirimo y'ubwubatsi iyo uhajya utwaye ikinyabiziga ugomba kugenda witonze cyane kugira ngo utaza guteza impanuka.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda, cyerekana ko hari umuhanda ucometse ku wundi murimo muragendamo, ku muhanda mugari muremure cyane. Bigaragara ko mugomba kugenda witonze mu gihe uhageze.

Nkuko mubibona aha ngaha ni mu muhanda, bigaragara ko hari icyapa kikwereka ko ugomba gutanga inzira ku binyabiziga biturutse imbere yawe, kandi bakanakwereka ko harimo inzira z'abanyamaguru ugomba kugenda witonze.

Aha ni mu muhanda hakaba harimwo icyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, kikaba kikwereka ko inzira ikomeza, igakomeza ijya mu cyerekezo wari kugendamo.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda cyerekana ko ari aho imodoka ziparika zirimo zirakuramo abagenzi abandi binjiramo kugirango imodoka ikomeza urugendo rw'aho yaririmo irererekeza mu by'ukuri.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda, iki cyapa cyerekana ko uwo muhanda urimo ugomba gukata ibumoso muri macye haragorombyoye herekeza ibumoso.

Iki ngiki ni icyapa cyo mu muhanda, mu by'ukuri cyerekana ko iyo ugeze aho hantu icyo cyapa kiri, uba ugomba guhagarara akanya gato, kabone yewe n'ubwo nta modoka cyangwa indi pikipiki uri kureba hirya mu ruhande rw'umuhanda.

Ikingiki ni icyapa cyo mu muhanda cyerekana ko ahantu higeze uri bu guhura n'imbogamizi mu migendere yawe kuko hagiye harimwo utunogo ducuramye cyane byatuma ugira impanuka.

Nk'uko bigaragara aha ngaha ni mu muhanda, ni mu muhanda aho berekana icyapa kikwereka ko ugomba kugenda neza ukitonda ko aho ngaho hakunda kugendera abantu benshi.

Aha ngaha, iki ngiki ni icyapa mu by'ukuri cyerekana ko mu muhanda uri kugenderamo hari akandi gahanda kari buze kwinjiramo. Biragusaba kugenda witonze kugira ngo utaza kubangamira abagenda muri ako gahanda, binjira mu muhanda munini.

Iki ngiki ni icyapa kiri mu muhanda, aho berekana, kwerekana mu mujyi rwagati wa Kigali ndetse n'aho akarere ka Nyarugenge gaherereye, bikaba ari ibintu bigaragara mu mabara meza cyane.

Iki cyapa kiri mu muhanda, kirerekana ko umuhanda bawunyuramo bazengurutse, uko bigaragara uyu muhanda ufite isuku, hari amahumbezi kuko hari indabyo nziza cyane n'ibiti bitanga umwuka uhagije.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda kirerekana ko hariho umuhanda ukomeza hakabaho n'undi ukata iburyo. Iki cyapa kigizwe n'amarangi rimwe ry'ubururu irindi rikaba ari iry'umweru.

Iki ngiki ni icyapa. Iki cyapa gisobanura ko aho ngaho ari aho abantu bambukira mu buryo bw'abanyamaguru. Imodoka zigahagarara, bakabanza bagatambuka.

Iki ni icyapa cyo mu muhanda mubyukuri cyerekana ko imodoka ndende zitwaye imizigo zitemerewe kunyura aho hantu mu buryo bwo kurinda umuhanda kwangirika.

Ikigi ni icyapa kirerekana ko ahantu ugeze uba ugomba kugenda witonze ukagenda buhoro kubera ko hashobora kuba hateza impanuka mu buryo bumwe cyangwa se'ubundi buryo.

Aha ngaha ni ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'i Bugande aho baguhereza ikaze winjiye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ukaba umaze kwinjira mu karere ka Gicumbi.

Iki ngiki mureba rero, ni icyapa cyo mu muhanda, kirerekana ko ari umuhanda banyuramo bazengurutse, bakaba bagusaba kugenda metero cumi n'eshanu mu isaha imwe mu buryo bwo kudateza umudugararo.

Iki ngiki ni icyapa, kiri mu muhanda, ahazwi nka Kimihurura, uba uri kuva mu mujyi, werekeza Kimihurura, cyangwa se ujya za Kimironko, cyerekana ko hari ikigo cy'amashuri, hakaba hari n'inzira irimo inkomane.

Cyerekana ko umuntu utwaye imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga agomba kwigengesera kuko aba agiye gukatira mu ruhande rw'ibumoso mu buryo bwo kwirinda impanuka.

Iyi ngiyi ni iyubako ndende nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali. Uko bigaragara ni ahantu heza cyane ushobora kuba wafatira ifunguro, cyangwa se ukaba wunaguramo n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye. Ni heza cyane pe.

Wa nzu we kombona uruhande rumwe usize amarangi urundi nkaba mbona ugifite amatafari atarimo agasima, habaheburaki kugira ngo kano kazi karangire ino nzu gusakara nibirangirana izaba ari nziza cyane.

Nkuko mubibibona aha ngaha ni mu muhanda mutoya uparitsemo imodoka zitandukanye z'ubwoko bwinshi, intoya n'izifite aho bicara inyuma harambuye, ifite ibara ry'ubururu, umukara n'umweru.

Aha ngaha ni mu Mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Remera mu Giproso, aha ngaha hakunda kubera akaduruvayo k'imodoka nyinshi n'ibindi binyabiziga, kubera ko ari umuhanda nyabagendwa, mu bice bitandukanye by'igihugu.

Nk'uko bigaragara aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali, aho abatwara ibinyabiziga bitandukanye bari mu kazi. Abandi bakaba baparitse hafi y'inyubako ndende igizwe n'amazu atatu ageretse, hejuru ikaba ifite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Iyi ngiyi ni inzu mureba ndende cyane nziza ifite amabara meza cyane y'umweru ndetse n'umukara hakaba hashushanyijeho ibyapa byo kwamamaza inzoga z'ubwoko butandukanye bukunda kunywebwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ibingibi ni ibiti bitandukanye harimo n'indabyo, byifashishwa aho dukunda kwita mu busitani; bitanga umwuka mwiza mu mazu, ndetse bigatanga n'umwuka mwiza mu mihanda.

Ni ahantu hazwi nk'aho abantu bafatira ibitoro, cyangwa se amavuta bashyira mu modoka zabo, kugira ngo zishobore kuba zagenda, uko bigaragara ni benshi, kandi bose bakeneye amavuta.

Ahangaha ni mumugi wa kigali ahazwi nka kibagabaga mu by'ukuri hano hantu harasa neza cyane aho hagiye hatuye abantu benshi cyane mu by'ukuri bifite mu bijyanye n'ubukungu bakaba bahagaze neza nta kibazo na kimwe.

Iyi ngiyi ni inzu y'ubucuruzi, iherereye ku muhanda, aha ni mu mujyi wa Kigali, harimo aho bakorera ibijyanye no gutanga imiti, aho bacururiza amata yo kunywa, aho bagoshera abantu imisatsi.

Ahangaha ni ahantu heza cyane mu mujyi wa Kigali akaba yifashishwa kugendamo n'imodoka zigiye zitandukanye, ahagana mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'i Remera, hakaba hagaragara ko harimo imyasi myinshi cyane.

Iyi ngiyi ni inzu nziza cyane bigaragara ko ubu iherereye mu mujyi wa Kigali, gusa yubatswe mu buryo bugerekeyije aho igerekeranyije inshuro ebyiri bikagaragara ko hari umusore urimo kwerekezayo.

Aha ngaha ni mu muhanda, aho umuhanda umwe wisukira mu wundi, bikaba bigaragara ko ari umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, ndetse n'ibinyabiziga, bari kugenda mu buryo bugaragara nk'aho butuje cyane.

Iyi ngiyi ni inzu ndende igeretse inshuro eshatu enye ikaba iparitsweho n'imodoka zo mu bwoko bugiye butandukanye abaparitse akaba ari abantu batwara abandi ku binyabiziga bitoya.

Aba ni abantu bari mu mujyi umwe hano mu Rwanda runaka bakaba bari mu bikorwa bitandukanye byo gushakisha amafaranga bakora n'imirimo itandukanye bakaba buzuye imbaraga nyinshi.

Iki n' icyapa cyo mu mujyi wa kigali ahazwi nko mu karere ka kicukiro kigaragaza ko uba wageze mu karere ka kicukiro ukaba ugeze ku muhanda wa cumi na kane mu mihanda igeze ku gace.

Iyi ngiyi ni inyubako ndende iherereye mu mujyi, ikaba bigaragara ko hakoreshezwa ibijyanye no kuvunja amafaranga y'abanyamahanga, mu gihe umuntu yinjiye mu gihugu kimwe avuye mu kindi.

Aha ni mu muhanda usanzwe bigaragara yuko abantu bashobora kuba banyura bitari cyane kubera ko urabona ko nta kinyabiziga cyangwa se abantu barimo barahagarara.

Ahangaha ni mu muhanda mu mujyi wa kigali aho imodoka zihanyura zizengurutse, harasa neza, imodoka ninyinshi harimo ubusitani butanga umwuka mwiza mugihe abantu bari kugenda mumuhanda.

Ahangaha ni mu muhanda mu by'ukuri aho abantu banyura ndetse n'ibinyabiziga bikahanyura bigendagenda mu buryo butandukanye. Hano hakaba hazwi nko hafi ya kimihurura, ni heza cyane.

Aha ngaha ni mu muhanda, aho abantu bagenda mu buryo butandukanye, kandi ni mu mujyi wa Kigali, mu buryo bugaragara. Ni ahantu kuko hagaragara nk'aha ari heza, kandi hakaba hafite isuku nyinshi cyane.

Aha kandi mu muhanda akenshi hagaragara nk'ahantu hakoreshwa n'ibyapa by'amatara amurika, aha ngaha kandi haranagaragara ko hariho icyapa cyerekana aho abayamaguru bambukira mu gihe imodoka zahagaze.

Ahangaha mu mujyi wa Kigali kugaragara mu mihanda mu masa ya njoro aho abantu bari kugenda batandukanye kandi ari benshi cyane buri wese arimo arererekeza aho akeneye kujya.

Ahangaha ni mu muhanda aho berekana ko abanyamaguru bake bagomba kwambuka mu mirongo myiza cyane y'umweru ndetse n'umukara n'umuhanda usa neza cyane.

Ahangaha ni mu muhanda umwe uri mu mujyi, mu Mujyi wa Kigali, aho bigaragara ko abantu bawugendamo ari benshi, ibinyabiziga bitandukanye birimo n'amapikipiki. Bikaba bigaragara ko imvura irimo kugwa ari nyinshi.

Nkuko bigaragara aha ngaha ni mu muhanda, ahashushanyijwe imirongo y'umweru myinshi cyane. Iyi mirongo y'umweru iyo igeze mu muhanda igaragaza ko, ari ahantu abanyamaguru bambukiranya umuhanda mu mugihe ibinyabiziga bihagazeho gatoya.

Ahaha ni ahantu hazwi nko mu muhanda aho abagenzi bicara bategereje ko imodoka ziza kubatwara, mu by'ukuri zikabatwara zishimye kandi na bo bishimye, bakaba bazitegereza mpaka igihe zihagereye yicaramo.

Aha ngaha ni mu muhanda w'umujyi wa Kigali, aho bigaragara ko muntu arimo arambuka. Ari kwambuka ava mu gahanda kamwe ajya mu kandi kandi ni umuntu w'umusaza mu buryo bugaragara.

Aha ngaha ni hamwe mu bigize umujyi wa Kigali, aho abantu bamwe bari kuva nyabugogo berekeza mu bice bya kanombe, i Remera ndetse na Kicukiro. Cyangwa se n'abandi bashaka kujya mu bindi bitandukanye nka gikondo.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nko muri Kacyiru, aho imodoka zitwarira abagenzi muri rusange, zibashyiramo zinakuramo abandi. Aha hantu harasa neza cyane.

Aha ngaha ni mu Mujyi wa Kigali ahazwi nko mu muhanda uva Nyabugo werekeza Kicukiro, i Remera ndetse n'i Kanombe. Ukaba umuhanda werekeza no mu Ntara y'Iburasirazuba. Aha ngaha mu by'ukuri biba bigaragara ko ari heza.

Iyi ngiyi ni imodoka ndende cyane itwara imizigo, ishobora kwambukiranya imipaka ikava mu gihugu kimwe ijya mu kindi byanarimba ikanarenga ikajya no mu kindi kuzana ibicuruzwa kugira ngo abenegihugu babe babikoresha mu buryo butandukanye.

Uyu nguyu ni umuhanda, aho abantu bawukoresha ari benshi cyane, batandukanye, baturutse mu bice bitandukanye, by'umujyi wa Kigali berekeza muri, Nyabugogo. Aho buri wese agenda mu modoka.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali, aho bigaragara ko ari mu karere ka Kicukiro, hari imihanda igerekeranyije, umuhanda umwe unyura hejuru, undi muhanda unyura hasi, ni umuhanda usa neza cyane pe.

Uyu ni umuhanda ukozwe mu buryo buzamutse hejuru y'uw'undi mo gakeya mu buryo bwo kugabanya impanuka, aha ngaha ni mu Rwunga mu mujyi wa Kigali uva i Gikondo werekeza i Nyamirambo ahazwi nko mu Biryogo.

Uyu nguyu ni umuhanda urimo amasangano ho mu mugi wa Kigali ahazwi nko mu kanogo. Mu by'ukuri hano hantu hahuza uturere dutatu tugize umugi wa Kigali ari two: Akarere ka Kicukiro, Akarere ka Gasabo ndetse n'Akarere ka Nyarugenge.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Kanogo, aho umuntu aba ari kwerekeza mu murenge wa Gikondo, imodoka zijyayo ntamananiza kuko imihanda ikozwe mu buryo bunononsoye cyane.

Aha ngaha ni mu mujyi wa Kigali aho bigaragara ko ari ahantu abagenzi bicara bategereje imodoka. Urahicara ugategereza imodoka ko iza ikagutwara aho ugiye mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wacu wa Kigali mwiza.

Uyu nguyi ni umuhanda munini cyane kandi bigaragara ko ari mwiza, unyurwamo n'imodoka zigiye zitandukanye; aho buri wese ashobora kuhanyura yisanzuye kandi nta kibazo na kimwe ahuye na cyo.

Aha niku kiraro ahazwi hahabaye bambukira i nyabugogo berekeza mu duce dutandukanye twa Kicukiru ndetse na Remera hamwe na za Kanombe biterwa n'icyerekezo cyawe.